Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Uruganda rw'inyange ni uruganda rukungahaye ku ntungamubiri, rujyanye no kudukorera ibyo kunywa, hari amazi, hari amaji, ndetse n'amata, ibyo binyobwa by'inyange, akenshi bikunda gukoreshwa mu bijyanye no gukora inama, abantu barabikoresha bari kunywa, bari mu nama, inyota igashira ndetse uruganda rw'inyange rwateye imbere ku buryo

Uburyo bw'ikoranabuhanga, gukemura serivisi z'irembo byaroroshye, kuko ubu uwariwe wese yabyikorera anyuze kuri telefoni ye, agakoresha telefoni ye hanyuma akaba yaca ku urubuga rw'irembo, akaba yazaba kudekarara imisoro cyangwa se akishyura serivisi.

Amashanyarazi ni kimwe mu bituma umujyi ndetse n'u Rwanda bitengamara ndetse ni bimwe mu bituma u Rwanda rwacu rurushaho kuba rwiza ndetse ishobora gutuma iterambere ryiyongera, amashanyarazi kuri ubu asigaye abayoborwa n'ikigo cyitwa rege.

Twubake imihanda twita ku isuku ndetse tunyura ahabugenewe, kubaka imihanda ni byiza kuri buri muturarwanda wese kuko aba ateza imbere igihugu cyamubyaye. Tunyure ahabugenewe tureke kujarajara mu mihanda y'imodoka buri munyarwanda wese yisanzure anyura ahabugenewe.

Ibitaro bijyanye n'ubuvuzi bugiye butandukanye, bifite isuku ndetse bifite umucyo ndetse barasanasana iminsi ikicuma. Ibitaro turabikunda, ibitaro ni byiza, byaje bikenewe. Mu Rwanda iwacu, dufite ibitaro bigiye bitandukanye, bifasha abaturage bagakira vuba.

Ubu byaroroshye kuko Paul Kagame yaduhaye imbangukiragutabara mu gihugu iwacu, aho umuturage aho ari aho ariho hose, iyo ahamagaye imbangukiragutabara iza yihuta kugira ngo imuhe ubutabazi bw'ibanze, uwagize ikibazo wese gitunguranye mu nzira yemerewe guhamagara imbangukiragutabara kugira ngo imuhe ubutabazi.

Uyu mwambaro ugenewe abacamanza baca imanza z'abaturage bagendeye ku mategeko nk'uko biba byarasobanutswe ndetse nuko baba barabyize urenganywa akarenganurwa ni byiza ko iyo habaye ikibazo abantu baca mu mategeko akabarenganura.

Umutekano ni ingenzi kuri buri mu rwanda aho ubu polisi yakataje mu iterambere mu kwicungira umutekano w'igihugu. ubu ngubu dusigaye ducungirwa umutekano ndetse ku buryo bw'ikoranabuhanga buri muturage aba afite umutekano usesuye ahongubu ugerageje kwiba igikoresho cy'umuntu ku buryo bahita bamufata byihuse kubera leta yacu ko umutekano...

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Kwiyamamaza byabaye hose mugihugu aho kwiyamamaza buri muperezida yiyamamaza umuturage akaba afite uburenganzira busesuye bwo kuba yazamutora, cyangwa se ntamutore ibyo byatumye buri muturarwanda wese yibona aho yica ashaka kandi yisanzuye, mu mucyo no mu bwisanzure dutora neza.

Gutora umuyobozi, twitoreye kandi udufitiye akamaro, uzatugeza ku iterambere. Amatora yacu yanyuze mu mucyo usesuye. Kandi wizewe nta wundi twatora atari kagame Poro, tora kagame poro umusingi w'ubumwe demokarasi n'amajyambere twiteze imbere, dutore uwo twitorera.

Iyo igihe cy'amatora kigeze, ni byiza ko ujya gutora azinduka kare, mu buryo bwo kugira ngo atiteza imidugararo ndetse n'akavuyo cyangwa se tukaba twatinza ibarura ry'amajwi kugira ngo hakiri kare, uwatoye n'uwagiye gutoresha, igikorwa kirangire hakiri kare kandi cyabaye mu mucyo no mu bwisanzure.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi abarwa bitandukanye birimo biragaragara ko ari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye rero buri gihugu kiba kigiye gifite amafaranga gikoresha amafaranga kandi ni meza kuko akora ibintu byinshi bitandukanye mirongo inani kwi ijana muri ubu buzima ni amafaranga cyane cyane ko usigaye ajya no kwa muganga mbere yuko uvurwa bikagusaba kubanza kwishyura nibwo uhita umenya akamaro k'amafaranga

Iyo iyo wamamaje ibicuruzwa byawe bituma byamamara ku masoko hirya no hino byihuse ndetse bigatuma igicuruzwa cyawe gikundwa na benshi, komeza wamamaze ndetse iyo ukoresheje shayini nk'ubu yamaze kwamamara irakunzwe kuri buri muntu wese yumva ntakindi yakoresha cy'isuku atari shayini.

Ubu mu bwikorezi ntibikigoranye kuba washaka igare ngo abe ari ryo rikwikorera ibyo utwaye, haje utunyabiziga tw'amapine ane tugezweho tujyanye n'igihe, wakwikorera ibyawe byose utiriwe unanirwa ujya gushakishiriza hirya no hino, utu turifani niko twitwa twikorera byinshi.

Ubuhahirane hagati mu bihugu buhana imbibi burushaho kugenda butera imbere kuko ubona ko guhahirana n'imodoka zigenda zinyura ku butaka bigenda birushaho gutera imbere tukarushaho kubona ibyo dukeneye ndetse nabo tukabaha ibyo dukeneye.

Imodoka nini zitwa hoho, zitwara ibijyanye n'ubwubatsi, ni nziza cyane kuko zifasha abakora ubwubatsi mu kubona ibyo bakeneye batavunitse, ariko ikibi cy'izi modoka zikunda kugira amagisida cyane kuko zikunda gucika feri, zigateza ibibazo. Ni byiza ko zajya zinyura mu muhanda wabugenewe, nibyo byiza cyane kurutaho.

Ubu mu gihugu hose hamaze kuza moto z'amashanyarazi. Aho twaje gusanga ko moto zifite moteri zitakigezweho hano mu gihugu cyacu, aho usanga buri mu motari wese arwana ishyaka yo kugirango atunge moto ifite amashanyarazi icagingwa. Nibyiza kwiteza imbere, tugura moto zigezweho, zijyanye n'igihe.

Iyo uri kugenda mu muhanda ukabona iki cyapa kikwereka ko aha ari umukozi ari mu mirimo, ni ngombwa ko utwara ikinyabiziga cyawe witonze, kugira ngo abari mu nyubako utaba wabahutaza, ndetse ukagendana ubwitonzi bwinshi, kugira ngo udateza ibyago cyangwa impanuka.

Ni utuyira duhurirana kamwe k'isuka mu kandi iyi nzira yerekana ko uragenda ugahita ugwa mu yindi nzira ikujyana mu cyerekezo kimwe.

Iki cyapa cyerekana aho umunyamaguru yemerewe kunyura. Iyo umunyamaguru ageze ahabugenewe, yambukana mu muhanda ubwitonzi kandi agakurikiranya ibimenyetso bibigaragaza, akanyura aho yemerewe kunyura yambuka, kugeza igihe ageze aho ajya, imodoka na zo zikabona gutambuka. Tujye twambukana ubwitonzi twirinda agisida.

Isuku mu rugo rwacu; twubake bijyanye n'icyerekezo makumyabiri mirongo itanu. Masita purani Kigali nziza icyeye twiteza imbere.

Uburyo bwo kubaka amazu kuri iki gihe gutya ukoresheje gahunda yo gutakisha amakaro bituma inzu zigaragara neza ndetse ya makaro aba asa nk'akoze umutako unogeye ijisho bigatuma uwo ari we wese uyinyuzeho ayireba akayitegereza kuko biba bisa neza.

Uburyo bugezweho bw'imyubakire muri iki gihugu butuma habaho kudasesagura ubutaka, hari uburyo bita tu ini wani aya mazu ni meza kandi afasha abaturarwanda gutura neza, ndetse bakizigamira n'ubutaka bakabubyaza umusaruro aya mazu agezweho mu kigero cya mirongo itanu ku ijana.

Mwiyubakire imihanda, dukore twiteza imbere twubake n'amasoko ndetse twubake ibikuta bikikije imihanda kugirango tutazatembanwa n'isuri y'imvura. Kubaka imihanda ndetse no ku nkengero ni ingirakamaro kuri buri muntu wese kuko uba wikingiye ibibazo bishobora guturuka ku mirwanyasuri y'imvura.